Mu bigo by'amashuri abanza cyangwa se abana bagitangira kwiga, bashobora gusurwa n'inzego zitandukanye. Harimo inzego z'umutekano ndetse n'abandi bantu ababyeyi baba bakwiye kubwira abana babo ko abashyitsi ari ingenzi buzima bwabo.

Abana bakiri batoya kugira ngo bagire ubumenyi runaka ku kintu runaka, bakwiriye guhabwa igishushanyo cyangwa se ishusho y'icyo kintu, hanyuma na bo bakagenda bagihuza n'ibibaho mu buzima busanzwe.

Abana bagitangira kwiga hari udupupe umuntu ashobora kubereka bagakunda ishuri, mu gihe bateretswe utwo dupupe bashobora kujya kwiga bagononwa, rimwe na rimwe ugasanga amashuri yabo barayacikanyije kubera batayishimira.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se amashuri y'incuke, ushobora gusanga ku mashuri yaba hashushanyijeho ibishushanyo by'ubwoko butandukanye, bigaragaza ko abo bana bakwiriye kumenya ibyo bishushanyo bityo ubwonko bwabo bugakura.

Abana bagitangira kwiga baba bakeneye kubona ibishushanyo bitandukanye ,niyo mpamvu ababigisha bagerageza kugenda babaha ibishushanyo byo mu bwoko butandukanye, kugira ngo nabo babone uko bashobora kubafasha mu kwiga.

Abana biga mu mashuri abanza baba bakwiriye gukina agapira, bakaba bakina n'abayobozi babo kugira ngo ubucuti bafitanye burusheho kwiyongera, bityo bumve bakuwe neza cyane cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se abanyeshuri bakijya ku ishuri bwa mbere, baba bakeneye ibintu bitandukanye harimo n'amazi. Umwana ukiri mutoya aba akwiriye guhabwa icupa ry'amazi azajya ajyana ku ishuri kugira ngo inyota itamwica.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke, abakwiriye guhabwa ibikenerwa byose harimo no gushushanyirizwa ibyo yiga kugira ngo abashe kubisobanukirwa neza, bityo imitekerereze ye ikure.

Umwana ukiri muto aba agomba guhabwa ibikinisho bitandukanye bimufasha mu gukangura imitekererezeye, akidagadura kandi agashobora gutandukanya ibintu bityo bikaba byatuma akomeza gusabana n'abandi.

Nk'ubu hari inyubako, umuryango umwe ubonako urimo abantu, undi urimo intebe, hanze hari akaetajeri, hanyuma imbere yaho harapavomye, hakoreshejwe, amantuza, amapave.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se incuke hari udushushanyo tugiye dutandukanye bakwiriye kwerekwa kugira ngo bikangure imitekerereze yabo bityo nabo bagenda bakura gake gake mu mitekerereze.

Hari imbuto zitandukanye umunyeshuri w'incuke ashobora kwigishwa ,akamenya uko zitwa ni ukuvuga akamenya amazina yazo. Kugira ngo abyigishwe hashobora gushyirwaho udushushanyo tw'izo mbuto.

Ahantu hagaragara igishushanyo, igishushanyo kigaragaza isura y'umwana, ibi birafasha cyane cyane abana b'inshuke mu kwiga kubera ko baba bakeneye kubona ibishushanyo by'ubwoko butandukanye kugira ngo bafashe gukomeza gukangura ubwonko bwabo.

Abanyeshuri bi inshuke baba bakwiye guhabwa ibishushanyo bibafasha mu gusobanukirwa ibyo bari kwiga kugirango barusheho kumva bamerewe neza kuko iyo basobanukiwe ibyo biga nibwo barushaho kujyenda bagira ibyo bakora mugihe bakura.

Abana bigamu mashuri abanza baba bakwiriye kwerekwa ibyo biga mu ngiro bakabibona nk'ibishushanyo. By'umwihariko inshuke iyo zibonye ibyo bishushanyo zirushaho gusobanukirwa no gukomeza kuzirikani...

Abana biga mu mashuri abanza cyangwa se abagitangira kujya ku ishuri, baba bakwiye kwerekwa udupupe kugira ngo barusheho kwishima kuko bashobora guterekwa udupupe, ugasanga birangiye bavuye mu mashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se amashuri y'inshuke baba bakwiriye gukurikira cyane, ariko nan nonene kugira ngo bagire ibyo bamenya bagenewe ibishushanyo bishushanyijeho uko byitwa kugira ngo bibafashe gukomeza kugira ubumenyi.

Abana bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru ndetse n'uburu hasi. Barimo barabyina bari kumwe n'abarezi babo ndetse urabona ko bishimye cyane.

Akenshi cyangwa se inshuro nyinshi ahantu abana b'incuke bahurira kugira ngo bigishwe ari icyumba kimwe gihari gusa hatari andi mashuri menshi kuko haza abana bake bo muri ako gace bagahabwa inyigisho.

Abana bagitangira kwiga nabo ba bakwiye gufashanya bagasobanurirana ndetse mwarimu akabaha uburenganzira umwe akaba yajya imbere y'abandi akabasobanurira uko abona ibintu ndetse n'uko yumva amasomo bityo bigatuma uwo mwana atinyuka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza nukuvuga abanyeshuri batoya byumwihariko incuke baba bakwiye kwitabwaho bagahabwa ibyo bacyenera byose nkibishushanyo bibafasha gukomeza kumva ibyo biga.

Abana bakiri bato baba bakwiriye gusobanurirwa ibijyanye n'uburyo bakita ku buzima bwabo ariko na none bakigishwa byimbitse isomo ry'imibare, bakigishwa kubara ndetse no gusoma inyuguti no gusoma imibare.

Ifoto iragaragaza akiicungo abana bakoresha batoya bari kwiga kugendera ku kinyabiziga runaka bitandukanye, bagafasha kwifashisha mu kunanura imitsi y'amaguru.

Igihe umuntu yiga indirimbo ashobora kubona amanota. Hanyuma akamenya uko agenda acuranga igikoresho ke. Mu gucuranga biba bisaba gukurikira kuko amanota atandukanye, harimo amagambo ndetse n'amajwi n'uburyo avugwamo.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza baba batandukanye n'abanyeshuri biga mu mashuri bagitangira kwiga kuko bo baba bakeneye utuntu tw'udukarito, utuntu tubashimisha bityo bagakomeza kwishimira amashuri.

Ibikoresho bitandukanye umunyeshuri wiga amashuri abanza ashobora gukenera kugira agire ibyo yikorera mu buzima bwe, ibyo bikoresho birimo imetro, umukasi ndetse n'ibindi.

Umunyeshuri wiga imibare ibikoresho akenera birimo: kompa, ikereyo ndetse n'ibindi ashobora kwifashisha mu gihe aca uruziga. Ni ukuvuga amarati ndetse no mu gihe aca imirongo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza nabo baba bakwiye kwitabwaho bagahabwa intebe n'ameza byifashe neza ariko nanone bitari birebire cyane kuko bifasha umunyeshuri kwiga yisanzuye no kumva akunzwe.

Inyubako imeze neza cyane ubona ko ishobora kuba yigirwamo abanyeshuri mu mashuri abanza, hakurya hari irindi nzu imeze neza ndetse hari n'inzu nyinshi zigaragaza ko ari mu mujyi.

Abantu biga mu mashuri baba bakeneye ibikoresho bishobora kubafasha by'umwihariko abanyeshuri biga mu mashuri abanza baba bakeneye guhabwa amashusho y'ibintu runaka kugira ngo na bo babashe kumenya ibyo biga.

Umunyeshuri aba akeneye kuba afite ibikoresho bimufasha mu isomo rye urugero nko guca uruziga aba akeneye agakoresha kamufasha bityo akaba yasobanukirwa ibyo yiga bitamugoye.

Abanyeshuri biga imibare by'umwihariko abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bafite igikoresho kimeze nka kabuwate kiba kirimo ibikoresho bifashisha baca uruziga, baca imironko mu gihe bari kwiga isomo ry'imibare.

Hari ibikoresho bigenda byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo, ibi bikoresho bikaba babyifashisha mu masomo ajyanye n'imibare, kandi abanyeshuri bafite ibikoresho bihagije, baratsinda ku rwego rushimishije.

Iyi foto iragaragaza ishusho y'umuneke, ingofero, avoka, inkweto, isahane, ikanzu, ururabo, ipataro, radiyo, n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwiga gusoma cyangwa se kumenya ubwoko bw'ibintu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo basobanukirwe ibyo biga bakwiriye guhabwa igishushanyo, icyo gishushanyo kikabereka uburyo ibintu bikorwamo, harimo nk'imibare ndetse hakaba hakifashishwa n'ibindi bikoresho kugira ngo babashe kumenya ibyo biga.

Umwana iyo agiye ku ishuri by'umwihariko aziga isomo ry'imibare. Igikoresho k'ingenzi agomba kwitwaza kigomba kuba kirimo amarati ndetse n'ibindi bikoresho bimufasha mu gihe yiga isomo ry'imibare nk'ubucuruzi.

Hari ibikoresho byifashishwa n'umunyeshuri kugira ngo bimufashe mu myigire ye, by'umwihariko umunyeshuri wiga mu mashuri abanza nta ba ashobora kubona ibikoresho akenera birimo nk'amarati ndetse n'ibikoresho bimufasha guca uruziga mu isomo ry'imibare.

Iyi shusho iragaragaza abana babiri bari gusiga amabara mu ndabyo, kugira ngo imitako ibashe kugira ibara ryiza cyangwa se ibasha gusa neza mu buryo butandukanye ndetse n'indabyo zibashe kugira amabara atandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bashobora kubona utuzu dutandukanye, bashobora nabo kuba bakwifashisha wenda mu bijyanye n'imikino, by'umwihariko ku bigo byateye imbere bahasanga utuzu tw'ubwenge.

Ikigo cyamashuri cyimeze neza nkuko bigaragara kikaba cyirimo amashuri menshi nukuvuga inyubako ifite ibyumba byishi isa umweru akaba ari abanyeshuri bo mu mashuri abanza bijyira muri iyo nyubako.

igipangu cyangwa se porotayi yanditseho inyuguti ya t nindi ya t n'indi ya c rwanda wanditseho matimba bigaragaye ko aha hari ikigo cyigisha imyuga

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ntabwo baba bakeneye gukoresha ibishushanyo cyane. Ariko abanyeshuri biga mu mashuri abanza ayitwa Primaire, baba bakwiriye guhabwa ibishushanyo bibereka ibyo bintu kugira ngo barusheho kubisobanukirwa.

ziragaragaza ikigo cy'amashuri kiriho imigezi, imigezi ni myiza cyane kuko gukaraba ni isoko y'ubuzima, kugira ubuzima bwiza bituruka mu kugira isuku, ntabwo wagira isuku udakaraba amazi meza ndetse ukarabira ahantu heza.

Ishusho iragaragaza imibare, kuva kuri rimwe kugeza ku icumi, ibingibi wabibyifashisha mu buryo bwo kwigisha umwana kubara, ku buryo byibuze yakura azi kubara kuva kuri rimwe kugeza ku icumi.

Inyubako imeze neza cyane igaragaza ko aho hantu hashobora kuba higirwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza. Iyo nyubako urabona ko iteye imbere kandi abanyeshuri bahiga urabona ko bagomba kuba basirimutse.

Hari ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari umunyeshuri, harimo komba amarati ndetse n'ibindi bikoresho umunyeshuri akenera bityo bikaba byamufasha gutsinda isomo ryitwa imibare abanyeshuri benshi batinya.

Ibikoresho byifashishwa n'umunyeshuri wiga mu myaka yo hasi. Ni ukuvuga mu mashuri abanza, uwo munyeshuri akaba yiga imibare. Ibyo bikoresho bishobora kuba birimo nki: kereyo, amarati ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunda guhurira hamwe mu masaha yagennye hanyuma bagakina agapira, buri wese agakina na mugenzi we. Hagati aho abarezi bab bishimiye kubabona bakina kandi baranezererwa cyane.

Itetero ni ikiganiro kiba kuri radiyo Rwanda aho abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bigishwa ibijyanye no gufata ubuzima bwabo ndetse no kwitanaho ndetse n'agaciro kabo.

Mu bitabo bigaragara byo muri primaire, haba arimo amashusho y'abana bakora isuku mu buryo butandukanye, harimo akana k'agakobwa ndetse n'akana k'agahungu, bagenda boza ibikoresho byifashishwa mu rugo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza hari ibikoresho bakwiye kuba bafite kujyirango bamenye ibyo bigishwa, nanone kandi baba bakwiriye gusobanurirwa binyuze mu gushushanya ndetse no kwandika bityo bakajyira ubumenyi.

Iyi foto igaragaza ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana b'inshuke kubara, gusoma ndetse no gukora utuntu dutandukanye, bityo bakaba bazamuka bazi kubara, gusoma ndetse no kwandika.

Hari ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu gihe bagiye kwiga. Ibyo bikoresho bafasha nko guca imirongo cyangwa se inziga mu gihe mwarimu abibasabye kandi byifashishwa cyane cyane mu isomo ry'imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza amashuri ni ukuvuga amashuri yitwa pirimeri, ndumva bakwiye kugira ubwisanzure ku ikoranabuhanga, bityo bakagira ubuhanga ku bijyanye no gukoresha za mudasobwabwa kugira ngo biteze imbere.

Abanyeshuri bagiye ku ishuri bambaye impuzankano harimo abakobwa babiri bambaye utukanzu tw'ubururu ndetse n'umuhungu umwe uri hagati yabo undi akaba ari ku ruhande, uko bigaragara abanyeshuri bafite isuku.

Abana bakiri bato baba bakwiriye kwigishwa uko bakora imirimo yo mu rugo by'umwihariko bakabifashwamo n'ababyeyi babo, ababyeyi babo babigisha ibintu byinshi kugira ngo nabo nibakura bazagire ibintu bigezaho bishobora kubateza imbere mu buzima bwabo.

Groupe Scolaire Rukomo, Nyagatare District ni amagambo agaragara ku cyapa umuntu abona iyo ari hafi kugera ku kigo cya Nyagatare. Aho haba hari icyapa kiri mu iba ry'umweru gishinze ahantu.

Mu bikoresho umunyeshuri akenera ni ukuvuga umunyeshuri wiga mu mashuri abanza haba harimo; irati, ibitabo, ndetse n'amakaramu yifashisha. Ibyo iyo abifite bimufasha gukomeza kwiga neza ndetse agatsinda bityo akagera ku iterambere rirambye.

Iyi foto iragaragaza inyubako irimo ibikoresho, abana b'inshuke bigiraho, kumenya ibintu bitandukanye, amashusho, udupupe n'utundi dutandukanye twabafasha mu kumenya iby'ibanze.

Mu gihe umuntu yigisha abana bo muri pirimere aba agomba gushushanya ibishushanyo by'ubwoko butandukanye kugira ngo abafashe kuko baba bakiribatoya bakeneye ko umuntu abasobanurira binyuze mu byo babona no ku bishushanyo.

Hari ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha wiga mu myaka y'amashuri abanza ariko na nonene ni bibi gufata ibikoresho runaka ukabitereka kuri mashini kuko bishobora kuyangiza ukaba wabura uko uyikoresha.

N'abafite ubumuga nabo abakwiye kujyanwa ku ishuri agasobanurirwa amasomo ngira ngo nawe hazagire uko yiteza imbere cyangwa azagira uko yigenza bityo abashe kuba yagira ubuzima bwiza kimwe n'abandi bana yinjiza amafaranga buri kwezi.

Abana biga mu mashuri abanza baba bakwiriye guhabwa ibintu bitandukanye kujyirango babashe gusobanukirwa ibyo biga harimo amakereyo yo gushushanya ibyo gushushanyaho bityo bakagenda bakuza impano zabo zo kwandika.

Abanyeshuri bakiri bato iyo bari kwiga bagomba kwifashishwa amashusho kugira ngo basobanurirwe ibijyanye no kwiga cyangwa se amasomo yabo aborohere cyanecyane, abana bagitangira bagomba guhabwa udupupe dutandukanye kugira ngo babashe gukangura ubwonko bwabo.

Ifoto igaragaza ikigo cy'amashuri kiriho idarapo ry'u Rwanda, hariho n'ikigega, amashuri ni inkingi y'iterambere mu Rwanda bituma byibuze abantu babasha guhabwa uburere bwiza, bagakura bazi indangagaciro na kirazira.

Iyi foto iragaragaza ahantu hateguye neza, hari intebe, ameza, abantu bambaye amajire n'abandi, bigaragara ko harimo, abambaye ingofero, abafundi ndetse n'abandi batandukanye.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ibintu bigezaho mu buzima bwabo, harimo no kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo abarimu babone mudasobwa zo kwifashisha mu kwigisha bityo uburezi bugira ireme.

Abanyeshuri iyo bari kwiga baba bafite akanyamuneza, gusa nanone nyuma y'amasomo bashobora guhurira hamwe bakarya ifoto, ifoto iba ibashimishije cyane ndetse bari kumwenyura kuko baba bari kumwe n'abayobozi babo.

Aba bantu bari mu kigo cy'amashuri bari gupanga buryo ki bakubaka andi mashuri mashyashya ikigaragara cyo harimo ba rwiyemezamirimo bari gupanga ku byibuze bashobora kuba bavugurura kino kigo cyangwa se bakubaka andi mashuri mashyashya.

Umuntu uhagaze imbere y'abandi ari kumwe n'abandi arimo arabaganiriza, nukuvuga ni umuyobozi cyangwa umwarimu ahagaze imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru, anabaganiriza ibijyanye n'ukuntu bakomeza kwitwara neza bakagira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri mu igihe biga baba bagomba gutozwa kuvugira mu ruhame, umunyeshuri ashobora guhagarara imbere y'abandi akabagezaho igitekerezo cye, abasobanurira amasomo biga bityo na bo bakagira icyo.

Iyi foto iragaragaza abanyeshuri bari ku ishuri, abasisita babiri n'abahungu babiri, bambaye ifomu zitandukanye, bigaragara ko arabo ku bigo bitandukanye, ariko bose ni abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite isuku bicaye kuri gahunda nta kavuyo buri wese afite ikayi, akurikiye nta kurangara kandi ibyo bishobora gutuma bagira ibintu by'ubwenge bigezweho bakaba bakwiteza imbere.

Abantu iyo bagiye kubaka bagomba kuba bafite imyambaro itandukanye n'iy'abandi. Harimo nk'utujire ndetse n'ingofero zibarinda na none kandi bashobora gusoza kubaka bakaba barya ifoto.

Amashuri yisumbuye afitiye akamaro abaturage muri rusange, ariko kandi abana bahiga bagira igihe cyo gusurwa n'abayobozi, abayobozi bakabasobanurira ibintu bijyanye n'ubuzima bwabo ndetse n'izindi nama bashobora gukenera mu buzima bwa buri munsi.

Abanyeshuri iyo bari hamwe bahuza urugwiro bakishima, by'umwihariko iyo bigeze ku bijyanye n'ifoto bumva bose batewe ishema no kwifata mu mayunguyungu ndetse n'ahandi, bakaba bafata agafoto buri wese yishimye.

Biragaragaza ibyicungo byifashishwa n'abana b'incuke mu kuruhuka, iyo bamaze gufata amafunguro ya saa yine kugira ngo babashe kuruhura mu mutwe ndetse babashe no kugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bashobora kubona ibikoresho bitandukanye bashobora kwifashisha ndetse kandi ni byiza ko basurwa n'ababyeyi babo kugira ngo babaganirize, babagire inama y'ibintu bashobora kwigezaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bafite umuhanga mu gukora ibintu by'umwihariko mu kuvuga ibintu bijyanye n'imivugo, bashobora kuvuga ku buryo umuntu ashobora kugira ngo barabyize kera ariko nyamara aba ubuhanga basanganwe.

Mukorana mu kigo cy'amashuri harimo jaride nziza ifata neza harimo idarapo y'u Rwanda, amashuri ni inkingi y'iterambere mu Rwanda niyo atuma tugira abantu batandukanye bazi ubwenge nkuko baba barabukuye.

Abantu bafite ubuhanga mu gukora ibintu runaka bituma ari byo bageraho, kandi bishobora gutuma batera imbere . Niyo mpamvu abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahabwa amahugurwa by'umwihariko abiga ibijyanye n'ubumenyigiro, n'uburyo bashobora kwifashisha ibyo biga bakora ibindi bintu byo mu buzima busanzwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nabo bakwiriye gusurwa kenshi. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bashobora kubona ibikoresho bitandukanye bashobora byo kwifashisha, ndetse kandi ni byiza ko basurwa n'ababyeyi babo, kugira ngo babaganirize, babagire inama y'ibintu bashobora kwigezaho.

Abanyeshuri bari ku murongo barimo barahabwa amabwiriza y'uburyo baritwara uwo munsi, bashobora kuyahabwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cyangwa se umwungirije kugira ngo babashe kwiteza imbere mu masomo yabo.

Kugira ngo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bagaragaze ko hari ibyo bazi, mwarimu abakoresha isuzumabumenyi cyangwa se ikizami, akababuza kureba mu makaye yabo bityo bagakora nta kureba ku ruhande hanyuma bagatanga ibisubizo mwarimu akabakosora.

Nabonye muntu wari ufite igikombe ugaragaza ko yari yahatanye yatsinze ari guhembwa nk'umuntu wakoze neza, ibingibi bikuzamurira mulale ukaba abasha gukora neza cyane.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bamanitse amaboko bigaragara ko ari igikorwa runaka barimo, hari abicaye bigaragara ko igikorwa barimo ari icyo kwitondera kandi rwose bacyubashye.

Abanyeshuri iyo basoje amahugurwa runaka baba bakwiye guhabwa certificat cyangwa se icyo bita mu Kinyarwanda kiza impamyabumenyi igaragaza ko bize ibyo bintu, hanyuma na bo bakagenda bakahashaka akazi.

Abana biga mu mashuri yisumbuye ni ukuvuga amashuri azwi nka segonderi, abanyeshuri bahurira bakaba bicaye hamwe bakurikiye bigaragara ko hari umuntu uri gutanga ikiganiro runaka barakurikiye cyane rwose.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahagaze ahantu hamwe bambaye impuzankano y'ubururu ndetse urabona ko bishimye. Buri wese arishimye arangajwe imbere n'icyo agomba gukora, ni ukuvuga gufata ifoto kandi arakurikiye nta kurangara.

Mu gihe umuntu ahagaze imbere y'abandi aba agomba kwigirira icyizere by'umwihariko mu gihe umwarimu ahagaze imbere y'abanyeshuri, ni ukuvuga abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa se akunze kwitwa segonderi aba agomba kwigirira icyizere kugira abanyeshuri batamunyuzamo ijisho.

Hari ibikoresho bishobora kwifashishwa mu gihe umuntu ashaka gukora igikoresho cyo mu ibumba, aba agomba gushaka ibumba akarishyira ahantu runaka akarivanga, niyo mpamvu ameza ariho ibumba ndetse n'igikoresho yavuyemo ,ubona bisa nabi ariko mu by'ukuri bifite akamaro.

Hari abantu bakunda guhinga cyane ku buryo ushobora gusanga ariwo mwuga bakora n'abakunda gukora umwuga w'ububumbyi by'umwihariko abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bakwiye kubumba utuntu dushobora kwifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Hari ibikoresho bigaragara nk'intebe, ibyo bikoresho bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga na none kandi ibyo bikoresho bimeze nk'intebe abantu bashobora kubyicaramo bari mu mahugurwa atandukanye cyangwa se abanyeshuri bo muri kaminuza bakaba bazifashisha bazicaramo.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, rimwe na rimwe ari igihe bahuye n'abayobozi babo bakaba bakifotozanya cyangwa se mu mvugo z'ab'iki gihe bakarya agafoto, bityo bose bakishima.

Ikayi igaragaramo inyandiko runaka ikaba irambitse ku meza, ikayi ishobora kuba ari i y'umunyeshuri akaba yarimo kwandika note cyangwa se ibindi bintu kugira ngo azatsinde neza.

Abantu benshi bagira ibintu bitandukanye babona ariko na none ikiranga ahantu higirwa ibijyanye n'ubumenyingiro n'uko haba hari udushushanyo tw'ubwenge bityo wahagera nawe ukaba wakwibwira.

Intebe abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza cyangwa se y'imyuga bicaraho, ziba zihariye mu buryo runaka. Izo ntebe ziba zikozwe mu buryo butuma umuntu uyicayeho yumva amerewe neza cyane.

Abantu bakunda gutembera bari kumwe, umukobwa ari gutemberana na mugenzi we bagenda baganira gake gake, buri wese abwira mugenzi we uko amerewe kandi urugendo rurushaho kubabera rugufi kubera ko baragenda bungurana ibitekerezo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aya kaminuza cyangwa se abiga mu mashuri y'ubumenyingiro, bose baba bashobora gukora ibikoresho bitandukanye, by'umwihariko abakora ibijyanye n'ubumenyi ngiro, baba bakwiriye kwiga uburyo bakoresha ubwo bumenyi bwa bokora ibikoresho bitandukanye.

Iyi foto iragaragaza ifoto y'umuntu, iruhande rwe hari igikombe, hino afashe itabi mu kiganza ke.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ubuzima bwiza ariko iyo baharaniye kurya imbuto zirimo inanasi, imineke n'avoko nibwo barushaho kumererwa neza kuko bituma batarwaragurika cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza cyangwa se ay'ubumenyingiro bashobora gukora ibikoresho bitandukanye birimo utu meza ndetse n'ibindi, gusa mbere y'uko bakora ibyo bikoresho barabanza bakabyerekwa hanyuma nabo bakaba babyigana.

Ahantu hari ubusitani bwiza buconze neza, kandi buteye amabengeza kubureba. Hakurya haba hari inyubako nziza igaragara nk'ikigo cy'amashuri, cyangwa se amashuri ya kaminuza aho abanyeshuri bakuze bahurira.

Abanyeshuri biga imyuga bashobora kwiga ibintu bitandukanye, harimo no gushushanya ibintu bitandukanye, ibyo bashobora kubyifashisha bashushanyiriza abandi ibishushanyo mbonera, birimo imihanda, amazu, ibiti ndetse n'ibindi.

Inyubako ya kaminuza bikaba bigaragazwa n'amagambo yanditseho. Aho haba hagaragara inyuguti ya UR bivuga ko ari inyubako ya kaminuza y'u Rwanda, aha hakaba hagaragara ko abanyeshuri bigamo ari abanyeshuri basobanutse.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza buri munyeshuri afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye akavugakwabo nibbi n'ib kandi ibyo byose abanyeshuri bishimira kubikora ya muhungu cyangwa umukobwa.

Abanyeshuri biga mu makaminuza bashobora nabo kwerekwa ibyapa bitandukanye, bishushanyijeho abantu bari gukora siporo ndetse n'abandi bari gucuranga kugira ngo bibatere akanyabugabo ko kuba bagira utuntu bikorera.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza cyangwa se ubumenyi ngiro ,baba bafite ubuhanga bwihariye bwo kuba bakora ibikoresho bitandukanye, niyo mpamvu umukobwa cyangwa se umuhungu uwo ari we wese wiga muri kaminuza agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba yakora ikintu runaka.

Iragaragaza umukobwa urimo agenda munzira afite telefone mu ntoki ndetse n'akandi kantu mu ntoki ka mvirope ari kugenda mu muhanda upavumishijwe amapave.

Inyubako nziza bigaragara ko ari inyubako ya kaminuza. Aho hari amarangi y'umweru ndetse hakaba hafite isuku isa neza, ku buryo umunyeshuri wese yiga muri kaminuza yakwishimira kuhagera.

Abanyeshuri hari igihe bakora ibikorwa ukabona koko biratangaje, by'umwihariko abanyeshuri biga imyuga bashobora gukora ibikoresho bikozwe mu ibumba, ibikoresho biba birenze ubushobozi bw'umuntu kubyiyumvisha mu gihe atamenyereye.

Abanyeshuri iyo bari ku ishuri bagomba gukurikira bakirinda kurangara mwarimu yabaha amasomo bakayakurikira neza nta n'umwe urebye ku ruhande kugira ngo bibe byabateza imbere bityo babashe kugira ibyo bazigezaho.

Ububumbyi ni umwuga ukorana n'abantu bo mu ngeri zitandukanye ariko by'umwihariko abantu biga ibijyanye n'umwuga, bashobora kwiga uburyo bashobora kwikorera ibikoresho byo mu ibumba bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga bashobora gukora ibikoresho bitandukanye bifashishije ibumba. Abanyeshuri bo muri kaminuza cyangwa se biga ubumenyingiro ibyo bashobora kubikora bitewe n'ibyo bize. Bakaba bashobora gukora ikintu k'ingirakamaro muri rusange.

Inyubako nziza bigaragara ko hashobora kuba ari inyubako abanyeshuri bigiramo by'umwihariko kaba ari icyumba kigiramo abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza kubera uburyo umuryango abariho nimero z'icyo cyumba nk'ibigaragara mu mashuri ya kaminuza.